Inyubako nziza cyane ubona ko iteye amabengeza, abantu bahatembera urabona ko ni ahantu heza cyane ,uwahasura byanga bikunda yahakunda.

Muri gare harimo urujya n'uruza rw'abantu, imodoka z'amakwasiteri, n'imodoka ntoya, ndetse ubona ko abantu ari benshi cyane, kuko bakeneye gutega.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri siporo, abakobwa n'abahungu ,ubona ko ari abantu bishimye ,bari gukina imikino itandukanye bishimiye ibyo bari gukora ,bari fiyeri yabyo ni ibintu binejeje urabona ko bishimye.

Ikipe y'umupira, ubona ko bakina bako, ubonako hano baribagiye mugice cya mbere cyangwa icya kabiri kuko baribari kwifotoza, mu bigaragara bari bagiye mu gice cya mbere, bagiye gutangira umupira uziko babanza kwifotoza.